Abana benshi b'inshuke bicaye ku mikeke ishashe hasi mu cyumba, bari kumwe n'abandi bantu babiri bakuru, ni icyumba gisize irange ry'ubururu.

Abana benshi bakoze uruziga mu kibuga kiri iruhande y'inzu, bari kumwe n'abantu barimo kubitaho, munsi y'inzu hari kandagira ukarabe.

Abana benshi, higanjemo abambaye impuzankano, bahagaze hamwe mu kibuga. Imbere yabo hahagaze umuntu mukuru wambaye itaburiya. Baramukurikiye nk'aho ari kubaganiriza ndetse bari kumwe n'uwundi muntu mukuru wambaye itaburiya, ubahagazemo hagati.

Abana b'incuke higanjemo abambaye impuzankano. Bicaye ku ntebe, mu nzu isize irangi ry'umuhondo.

Abana benshi b'inshuke bicaye ku mukeka bakuyemo inkweto, barimo kunywera igikoma mu gikombe bari kumwe n'umuntu mukuru wambaye itaburiya isa n'ubururu arimo kubitaho, imbere yabo harunze inkweto bakuyemo.

Abana benshi b'incuke, bateraniye mu busitani, buri hino y'ibyumba by'amashuri. Bari kumwe n'umwarimu wambaye taburiya y'umweru, aberekera ibyo bakora.

Abana benshi bambaye impuzankano bahagaze ku ruziga iruhande rw'amazu, mu kibuga cy'ikigo cy'amashuri cya Nyamugari. Ni amashuri abanza. Ku bikuta hamanitse amakarita ndetse n'ibindi bagenderaho mu kigo.

Abana bane bicaye ku ntebe, mu cyumba cy'amashuri, bazengurutse ameza akoze mu mbaho, y'uruziga. Ni icyumba gisize irange ry'umuhondo ndetse ku rukuta hometse urubaho ruhanaguye.

Abana benshi bambaye impuzankano bicaye ku ntebe zikoze mu biti bazengurutse ameza maremare, bamwe bafashe mu ntoki udukoresho bakiniraho bafungura ubwonko.

Umwarimu wambaye ikote afashe mu kiganza cy'ibumoso igitabo, arimo kwigisha abanyeshuri bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho, atunze inkoni ku kibaho cyanditseho ko arimo kubigisha Icyongereza.

Ibitabo bitatu byo mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, birambuye ku gikoresho gikoze mu mbaho, ryigisha ibijyanye n'imibanire ndetse n'iyobokamana, bishushanyijeho abanyeshuri ndetse n'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, bateruye ibasi isa n'ubururu irimo ibiryo by'umuceri ndetse n'ibishyimbo, iruhande rwabo hahagaze umwana ufashe mu ntoki isahane iriho umuceri.

Urupapuro rw'umuhondo rumanitse ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye, rwanditseho indangagaciro abagize ikigo bose bagenderaho.

Ameza maremare ateguyeho igitambaro cy'ubururu n'icy'umweru. Iruhande rwayo hateretse intebe ebyiri. Ni icyumba kirimo ishusho y'umuntu mukuru, ndetse gisize n'irangi, gifite na parafo.

Abana benshi bambaye impuzankano, bamwe bari mu busitani abandi bahagaze mu kibuga kiri iruhande y'inzu mberabyombi mu kigo cy'amashuri. Hirya y'inzu mberabyombi hari indi nzu isakaje amategura yubakishije amatafari ahiye.

Abana babiri bicaye ku ntebe ifatanye n'ameza bikoze mu mbaho, bicaranye n'umuntu mukuru, barimo gusomera muri mudasobwa, bari mu cyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, imbere ku rukuta hometse ikibaho cyanditseho, icyo cyumba kirimo n'izindi ntebe n'abandi bana benshi bicaye, bafite mudasobwa.

Abana benshi bambaye impuzankano, bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho, zifatanye n'ameza mu cyumba cy'amashuri, yubakishije amatafari ahiye, gifite amadirishya afunguye, akoze mu mbaho.

Abana benshi bicaye mu kibuga ku ntebe ahantu hasakaye, ni imbere y'inzu zo mu kigo ndetse iruhande rw'inzu harimo kunyura abihaye Imana ndetse hepfo hari izindi nzu zubakishije amatafari ahiye.

Intebe nyinshi zikoze mu mbaho zifatanye n'ameza, zitondekanije mu cyumba cy'amashuri, ku gikuta hateye ikibaho, ni nzu iteye ingwa na karabasasu.

Abana benshi bambaye impuzankano, bahagaze mu kibuga kiri iruhande rw'igikuta cyubakishije amatafari ahiye, ku mpera z'ikibuga hateye ubusitani bw'ibyatsi,

Urupapuro rw'umuhondo, rumanitse ku gikuta cyubakishije amatafari ahiye, gipavomye, gishushanyijeho ibikoresho bitandukanye n'amazina yabyo ariho mu rurimi rw'Igifaransa.

Ubusitani buri iruhande y'igikuta kirekire gishushanyijeho abanyeshuri batatu bambaye impuzankano ndetse n'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, bigaragaza ko ari igipangu k'ikigo cy'amashuri.

Ibitabo bitatu birambitse ku gikoresho gikoze mu mbaho, bibiri ni ibyo mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza, byose uko ari bitatu ni iby'isomo ryigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubumenyi bw'umubiri w'umuntu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano barimo kugendagenda mu kibuga kiri iruhande rw'ibyumba by'amashuri, ni amashuri yubakishije amatafari ahiye ndetse n'urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Intebe nyinshi zipanze mu cyumba cy'amashuri ku murongo, zifatanye n'ameza maremare, imbere y'icyumba cy'amashuri hari ikibaho cyanditseho ndetse n'utubati tw'ubwoko butandukanye.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bicaye ku ntebe mu cyumba cy'amashuri barimo gukora ibazwa, imbere yabo hahagaze umwarimu urimo kureba uko bakora, ni icyumba cyubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, bicaye mu nzu mberabyombi, abenshi bambaye udupfukamunwa. Ni nzu isize irange, irimo amatara menshi arimo kwaka ndetse ifite igisenge cy'umweru.

Abanyeshuri bambaye amataburiya y'umweru, bahagaze ku mpera z'ubusitani butemo ibyatsi ndetse n'ibiti, hirya yabo hari abandi banyeshuri, ndetse n'ibyumba by'amashuri, byubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi bakuru higanjemo abambaye amataburiya y'umweru bicaye ku ntebe zikoze mu biti mu cyumba mo imbere y'icyumba hari urubaho ndetse n'ikigega cy'amazi n'ibindi bikapu bihapanze, hameze nko mu cyumba cy'amashuri.

Abanyeshuri benshi bateraniye mu cyumba cy'amashuri, bamwe barimo kwandika ku kibaho kimanitse ku gikuta abandi barahagaze barabatumbiriye abandi bicaye ku ntebe zikoze mu biti. Ni cyumba cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye gisize n'irange ry'umuhondo.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano ya kaki n'umweru, bicaye ku ntebe mu nzu mberabyombi, batumbiriye imbere umunyeshuri ufashe mu ntoki indangururamajwi, arimo kugira icyo ababwira, ndetse hari n'abandi bantu babiri imbere barimo kumufotora, mu nzu mberabyombi hicaye undi muntu wambaye imyenda y'umukara mukuru.

Umukobwa wambaye impuzankano, ahagaze imbere mu cyumba cy'amashuri, arimo kwandika ku kibaho ibyo asomye ku rupapuro. Ni icyumba cyubakishije amatafari yihe.

Abana benshi b'urungano bari kunyura mu muhanda uca hagati y'imirima, barimo kugenda bakora imyitozo ngororamubiri bambaye amakabutura ndetse n'imipira bakorana imyitozo.

Ikibaho kimanitse ku gikuta kiri mu cyumba cy'amashuri, iruhande rw'igikuta hari ameza ndetse n'intebe abanyeshuri bicaraho cyangwa abarimu kugira ngo batunganye iby'imyigire.

Abanyeshuri benshi, bambaye impuzankano bari kugendagenda hasi ndetse no hejuru mu nzu igeretse, ifite urusenge rw'ubururu, imbere y'iyo nzu hari ubusitani buteyemo ibyatsi, ndetse ku mpande z'ubusitani, hateye ibiti nyaburanga.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano ya kaki n'umweru, bicaye mu ishuri. Imbere yabo hari umwarimu uri gufatikanya n'umunyeshuri gushushanya iby'imibare ku kibaho.

Abana benshi higanjemo abambaye impuzankano, bari imbere y'ibyumba byubatse kimwe kandi biteye n'amarangi asa, bafashe ku munwa vuvuzera barimo gusakuza.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bicaye ku ntebe z'urubaho, ziri iruhande rw'inzu yubatse kijyambere. Barimo gusoma ibibazo byanditse ku mpapuro bafite mu ntoki.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bahagaze iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye igeretse isize n'irangi ry'umweru. Imbere y'iyo nzu hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, n'irindi bendera ry'umuhondo ndetse n'ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'ibyatsi n'indabo.

Abanyeshuri benshi, abasore n'abakobwa, bicaye ku ntebe ndende, bambaye impuzankano. Batumbiriye imbere yabo, umuntu mukuru, urimo kubaganiriza, cyangwa arimo kubigisha. Ni inzu ifite amadirishya afunguye, ndetse isize irangi ry'umuhondo,

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bateraniye mu busitani buri iruhande rw'ibyumba by'amashuri, imbere yabo hateretse ameza ariho ibikoresho by'umuziki.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bicaye mu cyumba imbere ya mudasobwa, bameze nk'abarimo kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa barimo gukora ubushakashatsi.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bicaye ku ntebe bikoze mu biti, barimo gukora ibazwa ryanditse ku mpapuro, ni icyumba cy'amashuri gisize irange ry'umuhondo ndetse imbere ku rukuta hateye ikibaho.

Abantu babiri bambaye neza, barimo kugenda baganira mu kibuga, kiri iruhande y'igiti, kiri hagati y'inzu ebyiri zisize amarange y'umuhondo, ziberamo imikino.

Abantu benshi bakuru, bicaye mu nzu mberabyombi, abenshi batumbiriye imbere nkaho bari mu nama cyangwa hahagaze umuntu urimo kubigisha bakurikiye.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, bareba imbere, bamwe bafite mu ntoki amakayi n'impapuro, harimo n'abashinzwe gufata amashusho, bafite ibikoresho byabugenewe.

Icyumba cy'amashuri gisize irange, ku rukuta hometse ikibaho, hejuru yacyo hari agakoresho kavanye amashusho muri mudasobwa, kayomeka ku kibaho kiri ku rukuta.

Igikuta giseze irange ry'umuhondo, cyometseho ikibaho ndetse hariho n'akandi gace koherejweho amashusho ava muri mudasobwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Intebe ebyiri ziteye, munsi y'ameza magari, ateretseho, uducupa bitwazamo amazi ibikombe, imitaka ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu kwiga. Ni icyumba gisize irangi.

Amazu atondekanije yubakishije amatafari ahiye, afite inkingi zisize irangi ry'ubururu, ni amazu asakaje amabati, imbere yayo hapavomesheje amatafari ahiye, ni inzu ntoya zimeze nk'iz'abantu baza gukodesha.

Urupapuro rumanitse ku gikuta cy'umuhondo, mu nzu iteyemo intebe, akabati ndetse n'ameza magari. Ni urupapuro rwanditseho ibyumba n'ibiberamo biri kuyobora abantu.

Umwarimu w'igitsina gabo. Ahagaze imbere mu cyumba cy'amashuri. Inyuma ye, hari ikibaho cyateretse, gisa n'icyatsi. atunze, agatoki, imbere ye. Arimo kwigisha amasomo, yohereje kuru rukuta mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Inzu ya kijyambere yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru, ku mpande zayo hari ubusitani buteyemo ibiti birebire n'ibigufiya ndetse n'ibyatsi.

Abantu batandatu bakuru harimo n'uw'igitsina gore witandiye. Bicaye mu cyumba imbere yabo bafite mudasobwa, iruhande rwabo hari utubati turimo ibitabo by'ubwoko butandukanye, bamwe bafite amakaramu n'impapuro bameze nk'abarimo kwiga.

Abantu benshi barimo kugendagenda, abandi basohoka mu nzu mberabyombi, yubakishije amatafari ahiye. Ndetse harimo n'urumuri rw'amatara yaka amabara. Bamwe bahagaze barimo kuganira, abandi basohoka.

Ikibaho gisa n'icyatsi cyometse ku gikuta cyashaje mu cyumba, ni inzu ipavomye ndetse ibikuta byarashaje irange rirahomoka, sima isigara igaragara.

Ubusitani bugari buteyemo ibyatsi ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye, zimwe zifite amababi yatukuye, hirya y'ubusitani hateye ibiti birebire.

Ibitabo byinshi by'ubwoko butandukanye bipanze mu tubati twa kizungu, dukurikiranye mu nzu ngari isukuye. Ndetse hari n'ibindi bitabo birambuye ku meza.

Ubusitani bugari buteyemo ibiti birebire, ibigufiya ndetse n'ibyatsi , mu busitani buri imbere y'inzu ndende igeretse ya kijyambere isize irangi ry'umweru.

Icyumba cy'amashuri gisize irangi ry'umuhondo. Ku rusenge hari igikoresho gitanga umwuka ndetse n'icyerekana amashusho. Muri icyo cyumba hateyemo ameza ndetse n'intebe zigezweho.

Ikibuga giteyemo amazamu akoze mu byuma, asize irangi ry'umuhondo. Hirya y'ikibuga, hateye ibiti birebire. Ikibuga gipavomye, gikoze mu buryo bwa kijyambere. Bagikiniramo umukino w'amaboko.

Abakozi bo mu gikoni barimo kwarurira umubyeyi mu nzu mberabyombi, bambaye ibikoresho byabugenewe nk'ingofero, barimo kumwarurira ku isahani irambitse ku iparato y'umukara.

Umuntu mukuru wambaye ikote, ahagaze imbere aganiriza abantu bakuru harimo n'abayoboke b'idini rya Islam, iruhande rwe hateretse ameza na mudasobwa ameze nk'uri kubigisha, na bo bafite ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa, amacupa y'amazi ndetse n'ibindi.

Umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri bicaye ku ntebe mu cyumba cy'amashuri; bamwe baramukurikiye, abandi bararangaye, ndetse bamwe barimo gucokoza terefone. Imbere mu cyumba cy'amashuri hari ikibaho ndetse n'amashusho ari kuva muri mudasobwa.

Ubusitani buteyemo ibyatsi, buri imbere y'inzu ya kijyambere ifite igisenge cy'umutuku, nk'uko byanditse ku cyapa cyometse ku marembo, ni inzu bateguriramo amafunguro.

Ameza magari ndetse n'intebe ziteye mu kayira banyuramo, mu nzu yubakishije amatafari ahiye, ndetse ku rukuta hariho kizimyamoto. Ni inzu ifite imiryango ndetse n'amadirishya atangaje.

Urukuta rusize irangi ry'umuhondo mu cyumba cy'amashuri rumanitseho igikoresho cyohereza amashusho kiyakuye muri mudasobwa kikayomeka ku rukuta ndetse kuri icyo gikuta hometseho n'ikibaho gisa n'umweru.